Iyi foto iragaragaraho igihangano iki ni igihangano kibumbye ,ariko nanone kinasize amabara gisize irangi kugira ngo ubwiza bwacyo bwiyongere, urabona ko aha ari ahantu hakorerwa ibintu by'ubugeni.

Igikinisho cyifashishwa mu kurangaza abana bato biga mu mashuri y'incuke kugira ngo bishime baruhuke mu mutwe, iki nacyo kirakoreshwa mu mashuri ndetse no mu buzima busanzwe kugira ngo umwana yishime.

Ahantu habitse ibikoresho byo ku ishuri, amakaye menshi cyane, hino hakaba amabara asiga mu bishushanyo, amabara na yo menshi.

Umurima utunganyije neza ubura gushyirwamo imyaka, imbuto, hirya hakaba amazu ni ahantu hafi n'abaturage, uyu ni umurima wegereye urugo.

Ibikinisho byiza bifite amabara atandukanye bambitse utwenda dutandukanye, ibintu abana bakiri batoya biga mu mashuri y'incuke bareba bakishima bakizihirwa.

Abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza, mbona ko bakiri bato, bari gukina bari gukinira ku kigo cy'amashuri, ikigo ubona ko ari ikigo cyo mu cyaro.

Abana bato bari mu ishuri bicaye neza, bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi utwenda tw'ubururu, mu ishuri ryiza imbere yabo hari akandi kana kari kubigisha kabasobanurira.

Iki ni icyumba kigari, kirimo ibitanda byinshi, aho baryamisha abana bakiri bato, aya ni amarerero arera abana b'incuke bakabaha ibiryo, bakabaha n'aho kuryama bakaruhuka saa sita.

Abana benshi batoya ubona a b'incuke baricaye bambaye impuzangano bari gufungura, bafite ibiryo buri mwana afite isahani ye urabona ko bameze neza bari kurira ku ishuri.

Agace kagaragara nk'igiturage hantu hari ivumbi ryinshi abana babiri agahungu n'agakobwa ubona bagiye ku ishuri bahetse udukapu, bambaye impuzangano y'ubururu bweruye n'ubururu bwijimye ubona ko bafite ikerekezo.

Ibikinisho by'abana bakiri bato bari mu kigero cy'incuke, ibikinisho byinshi bitandukanye bifasha umwana kugira ngo ubwenge bwe bukure kandi abukoreshe neza.

Iki n'ikibumbano, iki n'ikibumbano ariko kibumbye nabi, birashoboka ko cyabumbwe n'umuntu utaramenya ubugeni, umuntu utaraba umuhanzi ariko urabona ko yari yagerageje gushushanya ingwe cyangwa urusamagwe.

Ibi ni ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa bari gupima ibiro by'abana bakiri batoya, kugira ngo bamenye aho bageze mu mikurire yabo, bikoreshwa n'abaganga.

Umurima uhenze, ariko batarasanza kugira ngo bakunkumure ibyatsi bijye ukwabyo, uyu ni umurima utarajyamo imbuto n'imwe, hirya abana bari gukina, abana batoya ubona y'uko biga mu mashuri y'inshuke, bari gukinira mu mbuga, ni ahantu hatari habi.

Ikigo, ubonaka ari icy'amashuri, gifite korutire nziza mbere na mbere, kikagira inyubako nziza, ibiti bihakikije, ibirimo imbere, ikigega gifata amazi, nahantu ubona ko ari heza.

Ikigo cy'amashuri ikigo gisa neza cyubatse neza, gisize amarangi meza ubona ko ari ikigo gikomeye ariko hari ubusitani nabwo bwiza ariko hari ubutarafata ngo bukomere bube bunini, ni ikigo ubona ko kiri gutera imbere.

Inyubako yo mu kigo cy'amashuri ahantu ubona ko hubatswe vuba, ahantu hataraterwa ibyatsi ariko ubona y'uko aya mashuri yubatse neza.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa ku ishuri, cyane cyane mu mashuri abanza, hari ingwa, hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu guteranya, mu gukuba no kugabanya imibare, n'ibindi byinshi nk'amabara n'amakaye.

Iyi foto ndeba hano, iragaragaza igikoresho cyitwa bowate, hakagaragara n'ibikoresho by'ifashishwa ku ishuri cyane cyane mu isomo ry'imibare, harimo ibyitwa amarate n'ibyitwa kopa.

Igikapu cy'abana biga mu mashuri abanza batwaramo ibikoresho by'ishuri byabo, amakayi, amakaramu, ku ruhande hari naho bashobora gushyira agakombe batwaramo amazi yo kunywa cyangwa igikoma.

Amashuri, inyubako z'amashuri abanza, zisa neza zitaratera imbere cyane ariko ubona ko ari amarerero meza ya kwakira abana bakiri bato bakeneye kwiga mu mashuri abanza benshi.

Iyi foto iragaragaraho ahantu heza, hateguye neza kandi hari imitako n'ibikoresho byinshi cyane bikozwe mu biti, hari udutako, hari ibyo batwaramo ibintu, hari n'udukinisho tw'abana, aha hantu ni heza.

Umwinjiro w'ikigo cy'amashuri, ikigo cy'rwunge rw'amashuri rwa Nkubi, urabona ko harafunze, hari umutekano ntabwo abana bapfa gusohoka uko biboneye.

Umuntu uri mu ishuri ubona ko ahuze cyane ahugiye mu kwandika, ameze nk'uri mu kizami ariko ibintu yitwikiriye ntibibaho, urabona ko utamenya ibyo aribyo bitwikiriye ibintu bidasobanutse.

Igikoresho kigenewe kubika ibindi bikoresho byifashishwa n'umunyeshuri mu isomo ry'imibare harimo amarate, amakaramu, amakaramu y'igiti n'ibindi byinshi bibikwa muri iki gikoresho turi kubona cyitwa bowate.

Umwana wiga mu mashuri abanza, ari kugaragaza ubushobozi afite n'ubumenyi mu misomere, bari gusomera abantu bakuru, ababyeyi babona, ari gusumerara abarimu ari kubasomera inkuru kugira ngo bumve ireme ry'uburezi mu mashuri abanza.

Iyi foto iragaragaza inzu, ikagaragaraho kandagira ukarabe igikoresho cyifashishwa kugira ngo abantu bakarabe intoki, urabona yuko hano hantu hashobora kuba hari igikorwa cya leta kihabera hashobora kuba ari irerero.

Uko mbibona kuri iyi foto, iyi foto iragaragaza igifuniko cy'igitabo cy'umunyeshuri, oh igitabo kigenewe mwarimu wigisha mu mwaka w'amashuri wa kabiri w'amashuri abanza, ni igitabo cyigisha ubumenyi bw'ibinyabuzima n'ikoranabuhanga.

Abana bakiri bato biga mu mashuri abanza ugereranyije, utwana duto cyane turi ku kibaho turi kwandikisha ingwa, bari kwandika ibyo mwarimu ababwiye.

Igifubiko cy'igitabo cyiza kigenewe abana bato cyo gusoma kirimo inkuru nziza abana bo mu mashuri y'incuke baba bakeneye gusoma.

Ibikoresho byifashishwa mu ishuri, amakaye, amarate, amakaramu y'igiti, ibitabo byo gusoma, agasibisho, n'ibindi bigiye bitandukanye nk'umukasi.

Ahantu ku kigo cy'amashuri, ikigo cyubatse neza, ikirere gisa neza, hari ubusitani, tukabona ibendera ry'Igihugu cyacu ririmo: ubururu ,umuhondo n'icyatsi ryubakiye neza.

Umwana ukiri muto uri kwiga umwuga w'ubudozi afite ibikoresho byose yatangiye kudoda umunani, agace ka munani uyu mwenda yawudoze mwiza rwose wo kwishyira mu ijosi.

Abana batoya benshi bari gukina bishimye, bambaye impuzangano y'ibara ry'umuhondo hejuru hasi ibara ry'icyatsi, urabona bari gukina, bari ku ishuri barishimye.

Abana bakiri bato bari ku ishuri, biga mu mashuri abanza baracyari abana cyane, bari kwandika ku kibaho, bapfukamye ku kibaho, ni ahantu ubona ko ibikorwaremezo bikiribi hasi, kuko bari kwandika ikibaho giteretse hasi.

Igikoresho cyo ku ishuri cyifashishwa cyane mu isomo ry'imibare kibika kinarimo ibikoresho nk'byitwa irate ikaramu y'igiti igisibisho n'ibindi byifashishwa mu ishuri.

Mu ishuri ririmo abana bakuze ubona ko ari ingimbi n'abangavu, aya ni amashuri yisumbuye, bari mu matsinda umwarimu ari kugenda asura buri tsinda abasobanurira inyigisho yatanze.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe bambaye impuzangano barasa barasa neza bari kwigishwa bari gutera morale ibintu byaryoshye.

Abayobozi, abarezi bari guhereza umunyeshuri igihembo cyangwa igikoresho kizamufasha mu buzima bwa buri munsi ubuzima bw'ishuri, aba bantu barishimye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye abakobwa beza bambaye neza ubona na ko bishimye bafite agasusuruko kandi naho bicaye ni ahantu heza urabona ko biga mu mashuri meza asukuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye basa neza, bambaye neza, ubona bari ku murongo, bafite ikinyabupfura, bakurikiye umuyobozi cyangwa umushyitsi urabona ko bamuteze amatwi bari kumva ikiganiro n'inyigisho abagezaho.

Icyo iyi foto inyereka ndabona aho umwana ugiye ku ishuri ahetse igikapu kirimo ibikoresho, umubyeyi we yari amuherekeje urabona ko ari kumuyambira, ari kumwongorera amugira inama y'ukuntu azitwara ku ishuri.

Ahantu mu ishuri rifite isakaro ryiza, risukuye, rifite ibikoresho bihagije bifasha abanyeshuri mu gukora ibijyanye n'ibyo baba bize mu magambo, bikava mu magambo bikajya mu bikorwa, bambaye ibikoresho, bambaye ibikoresho byifashishwa mu bwirinzi.

Ku kigo cy'amashuri aho ikirere gisa nabi, mu mbuga hari idarapo Igihugu cy'u Rwanda, hakaba amashuri ahekeranye hariya afite ibishushanyo biriho indangagaciro z'ikigo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza, gifite isakaro ryiza, kirimo umuriro w'amashanyarazi, kirimo ibibaho byo kwandikaho bigezweho, ahangaha ni ahantu bakorera amasomo yabo mu buryo bw'umurimo bitari ukwandika, aha hasuwe n'abayobozi.

Ahantu ku ishuri mu nyubako ngari harimo abanyeshuri bagiye bicaye mu byiciro, bambaye impuzangano y'umweru hejuru, bari gufata amafunguro bose uko bari muri iyo nyubako.

Inyubako iri mu kigo cy'amashuri, inyubako nziza igeretse ifite uburyo bwiza bwo gutangira amazi. Ni ahantu heza umuntu wese yakagombye kwigira rwose.

Inzu ngari ahateraniye abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye benshi bambaye ibintu ubona bisukuye biri ku murongo, bicaye hamwe, ni benshi, bari kuganirizwa n'umuyobozi.

Umugabo wambaye umwenda ugaragaza ko ari umwarimu ,yicaye ahantu mu isomero hari ibitabo byinshi ,ibipanze mu tubati ,ibiri ku meza ubona ko ari ahantu banyeshuri baza bakicara bagasomerara.

Ubwiherero butandukanye bw'abakobwa n'abahungu n'ikigega kigamije gufata amazi kugira ngo iki kigo cy'amashuri kitangirika, ubu ni uburyo bwiza amashuri yisumbuye yagombye kujya yubakamo ubwiherero bwabo n'uburyo bwo gufata amazi.

Umwe mu bana biga mu mashuri yisumbuye, yafashe indangururamajwi ari gutanga ibitekerezo, hirya hari abana benshi bicaye batuje, bari gukurikira inyigisho bari guhabwa, banakurikira icyo mugenzi wabo ari kubasangiza.

Mu ishuri imbere abanyeshuri bicaye neza bari gukora ibizami, barasa neza, bara ahantu hasa neza, urebye nta kibazo bafite, ibizami bari gukora baribunabitsinde.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isukuye, abanyeshuri bafite isuku, bari kwigishwa, bari kwigishwa bari guhabwa ibiganiro ku ngingo runaka.

ahantu hari urugo rwubatse neza ruriho ibikoresho bigamije gushimisha abakuru n'abato, kiriya n'igikoresho cy'umwicungo gitanga umunyenga abantu bakajyaho bakishima.

Ku kigo cy'amashuri abanyeshuri bambaye neza, agashati k'umweru, utwenda dusukuye baricaye bateze amatwi ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bwabegereye bari gukurikirana ibiganiro biri gutangwa n'umupolisi.

Urukuta rw'inyubako y'ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa gihengeri, aho hagaragara indangagaciro za zibaranga, kirazira n'ibindi ikigo cyiyemeje kugira ngo uburezi butere imbere kandi bugire ireme.

Ni mu ishuri, ahantu ubona hari ibikoresho by'ishuri na mwarimu wambaye umwenda wabigenewe umugaragaza nk'u umwarimu, urabona abanyeshuri ubona yuko bahuze bari kwiga neza.

Ubugeni, ubuhanzi, urabona bagerageza kurema ikintu bakoresheje intoki zabo. Ubu ni ubuhanzi ibi ni ibikoresho bya kinyarwanda bigaragaza umuco wacu kandi bigira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abanyeshuri basoje amasomo yabo yo muri Kaminuza, bari kwishima, bageze ku munsi wo guhabwa impamyabumenyi zabo, barishimye baraterera ingofero hejuru, bagiye bahawe impamyabumenyi.

Umunyeshuri urangije amasomo muri Kaminuza, wambaye imyambaro bambara bahawe impamyabumenyi, ari imbere y'abantu, ariguhembwa n'umuntu ubona ko wambaye nk'umuyobozi, ari kumuha impano.

Abantu bateraniye hamwe bicaye batuje, bicaye ahantu heza kandi neza, bari kuganirizwa. Aba ni abanyeshuri cyangwa urundi rubyiruko bari kwigishwa ku ngingo runaka bari ahantu heza.

Inyubako igeretse ho indi nyubako hejuru, igice cyo hejuru ni ahantu hacururizwa ibikoresho by'ubugeni, ibikoresho bikoreshejwe intoki n'imitako myiza.

Umunyeshuri ushoje kaminuza wahawe impamyabumenyi ye. Ari kuvuga ijambo afite indangururamajwi. Ari kugaragaza ibyiyumvo bye kuri uwo munsi yaherewe impamyabushobozi.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza bicaye bakurikiye, bari mu mahugurwa, basa neza, bambaye ibirango byabo mu ijosi, bafite amazi imbere yabo, hirya abandi na bagenzi babo bakurikiye, urabona ko bari ahantu heza hasa neza.

Icyumba cya kaminuza y'u Rwanda biragaragara ko ari kaminuza y'u Rwanda, iki ni icyumba cyigishirizwamo amasomo atandukanye ariko ya kaminuza y'amashuri y'ikirenga, uyu ni mwinjiro w'icyo cyumba.

Iyi foto iragaragaza ahantu bakora ubugeni. Ni abahanzi ni ubugeni n'ubukorikori ariko hari kugaragara ikibumbano cyangwa igihangano bakoze gusa kikaba kiri kugenda cyangirika gishwanyuka hirya hakaba ibindi bikoresho bakoresha n'ibyo bakoze.

Ibibumbano, ahabitswe ibi ibyakozwe by'ubugeni, by'ubukorikori, aba bumba ibintu gakondo bikozwe mu ibumba, bikabikwa neza.

Urukuta ruriho amabara meza y'ubugeni agiya atandukanye anarimo ibishushanyo bigaragaza igiseke n'izindi mfuruka zigiye zitandukanye.

Uturindantoki dusa nabi, ubona twanduye, twakoreshejwe bigaragara ko twamaze gukoreshwa n'umuntu ukora ibintu by'ubugeni, hariho ibumba ku igare, hariho ibintu ubona byanduye.

Aha ni mu ishuri rikuru muri kaminuza, turahabona abanyeshuri bishimye, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bafite mudasobwa imbere yabo, bari ahantu hasa neza.

Ikibumbano gikozwe mu ibumba gikoreshejwe intoki, gishobora gushyirwamo imitako, gishobora gushyirwamo indabo, n'ibindi byose bigaragaza ubwiza.

Ahantu mu ishuri, heza, abantu bicaye ku murongo, batuje, bamwe bafite amakaye abandi bafite za mudasobwa, ubona ko ari ishuri rikuru rya kaminuza, atari amashuri ari ahongaho yisumbuye kuko uburyo bari kwigamo, birabigaragaza.

Ibi n'abyo biragaragaza ubumenyi, ubugeni, ubushobozi bwo kurema abantu bafite bashobora kwihangiramo imirimo. Igishushanyo cyiza kirimo ingagi, ifoto y'ingagi urabona gipfunitswe neza cyane kandi n'ibintu byakozwe n'amaboko.

Igishushanyo gikoze mu bugeni kiriho imbuto: inanasi, imineke, amacunga na pome. Ibi ni ibishushanyo bishushanyishijwe intoki.

Ikibumbano kiza gikoze mu ibumba. Gikoreshejwe intoki, umuntu wagikoze ni umuhanga. Yagerageje gukora akoresheje ubuhanga bwe, akora ikintu kimeze nk'igitebo.